Abantu bateraniye hamwe bari mu nama bicaye ku ntebe z'umweru batwikiwe n'ibitambaro by'umweru ndetse n'umukara bihagaze ku biti by'ibyuma bicaye mu busitani, inyuma yabo hari ibidukikije birimo ibiti ndetse n'ibikorwaremezo by'amashanyarazi.

Abagore n'abagabo bari mu nama, imeza z'ibiti, mudasobwa imbere yabo, amazi ku meza, bahanze amaso urimo arababwira.

Abantu bicaye hamwe abakobwa n'abahungu imppuzankano y'umweru imipira y'icyatsi ndetse na polo y'umukara nabandi bambaye imipira y'umuhondo ni y'umukara bari guseka bateze amatwi ndetse n'amaso imbere yabo.

Umugabo ufite indangururamajwi isa umukara, yambaye ishati y'umukara, iruhande rwe hari undi muntu yambaye ishati y'umukara, kurundi ruhande hariho umugore wambaye ikanzu yicyatsi, bari kumeza isa umweru.

Abagore n'abagabo bari mu nama, umugore wicaye imbere witangiye igitambaro mu mutwe, wicaye ku mu ntebe y'umukara, imbere ye ku meza afite mudasobwa, icupa ryamazi n'ikayi yo kwandikamo ibiri kuvugirwa mu nama.

Abagabo n'abagore bahuriye hamwe mu nama bicaye ku meza isa umweru, imbere yabo hari mudasobwa ndetse n'amazi yo kunywa ,urukuta rurasa umweru ndetse n'ibyapa bisa ubururu n'umweru.

Abantu bateraniye hamwe mu nama abagore abagabo bicaye ku meza y'igiti isize irangi ry'umukara, mudasobwa ziri imbere yabo ndetse umwe muri bo arimo arabaganiriza.

Abantu bari mu nama abagore n'abagabo bicaye ku ntebe zisa umukara, inyuma yabo hari abafite ibyuma bifata amashusho bari ahantu hasa umweru ndetse n'umuhondo n'urukuta ruriho insakazamashusho nini.

Abagabo n'umugore bari mu nama, bicaye ku meza y'igiti, mudasobwa imbere yabo, uducupa tw'amazi dutatu, ibikapu bitwarwamo mudasobwa.

Abantu, abagore, abagabo, bicaye hamwe, bafite mudasobwa mu ntoki, mu ntebe zisa umweru ndetse no hasi hari amakaro, insinga z'amashanyarazi, bahanze kandi bateze amatwi urimo arababwira.

Umugore wambaye imyenda y'umutuku n'amarinete, wicaranye n'abagabo, umwe wambaye ishati y'ubururu n'undi wambaye umupira w'umuhondo bari mu nama, imbere yabo ku meza hari amazi, ameza asa umweru.

Abantu benshi abagore, abagabo, bari hamwe bicaye bagiye basumbana, imbere bicaye ku murongo w'imbere hari imeza iteretseho amazi aho bari hasize irangi ryicyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu.

Abantu bari mu nama abagore batatu n'umugabo bicaye ku meza iriho ibitambaro bisa umuhondo n'icyatsi, imbere yabo hari amazi, bahanze kandi bateze amatwi uri kubabwira, inyuma yabo hari abantu benshi.

Abantu bari mu nama, bambaye imipira y'ubururu abagore n'abagabo bicaye ku ntebe z'umuhondo, imbere yabo hari uwambaye ishati y'umweru ufite indangururamajwi isa umukara.

Abagabo babiri n'abagore babiri, bicaye ku meza afite igitambaro gisa umweru ndetse n'intebe zifite ibara ry'umutuku, aho bari inkuta zirasa umweru ndetse n'amatara ari kwaka.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi ,ufite indangururamijwi mu ntoki ,wicaye mu ntebe y'icyuma, imbere ye hari ameza ariho igitambaro cy'umweru, hariho amacupa y'amazi apfundikiye mu nama arimo, ku ruhande rwe biragaragara ko nayo irimo n'abagore.

Abantu bari mu nama bicaye ahantu hatwikiriye, mu bitambaro by'umweru n'iby'icyatsi n'ubururu n'umuhondo, abagore n'abagabo bafite impapuro, izuba riri kuva, inyuma hari ibyatsi.

Inama irimo abagore n'abagabo bicaye bakurikiye bari kubaganiriza, intebe, umuhondo n'imeza y'umuhondo hasi ibara ry'ubururu.

Abagore n'abagabo bari mu nama, bicaye ku meza y'igiti ndetse n'ikirahuri, mudasobwa imbere yabo, urugi rufunguye.

Abagore n'abagabo bari mu nama bicaye ku meza y'urubaho, bari kuvugira ku ndangururamajwi, mudasobwa ziteretse imbere yabo, amazi mu ducupa, aho bari amarido ni umukara n'ibikuta by'umweru.

Abantu benshi bari hamwe abagore n'abagabo bahanze amaso kandi bateze amatwi umugabo ufite indangururamajwi, bakikijwe n'ibiti ndetse n'amapoto, bahagaze ahantu hasa umuhondo.

Abagabo babiri bicaye imbere harimo n'umugore, bari mu nama bicaye mu ntebe ifite ibara ry'umukara, imbere yabo ku meza hari indangururamajwi hari n'amazi apfundikiye mu icupa.

Umugabo wambaye amarineti, ikoti ry'umukara, ishati y'ubururu, imbere kumeza hari urupapuro, hari n'indangururamajwi, iruhande rw'iwe hari undi mugabo, wambaye ishati y'umweru, irimo akarongo k'umukara, wambaye amarinete, wicaye ku ntebe y'umukara, imbere ye hari indangururamajwi.

Abagabo n'abagore bicaye hamwe bateze amatwi kandi bahanze amaso uri kubabwira, bambaye amakote ndetse n'kanzu. Bicaye ku ntebe zisa umuhondo ndetse n'ahantu hasa ubururu.

Abantu bari mu nama abagore n'abagabo, bicaye ku ntebe zisa umukara, imeza z'ibiti, imbere yabo hari impapuro n'amazi, bahanze kandi bateze amatwi uri kubaganiriza.

Umugore wambaye ikanzu y'umweru n'umutuku n'umukara, afite indangururamajwi, amarido arasa umweru, inyuma ye hari icyapa gisa umweru n'umukara.

Abantu bari mu nama, abagore, abagabo, bahanze kandi bateze amatwi, bari kubagezaho ikiganiro, aho bari harasa umweru n'umukara.

Abagabo bari mu nama bane bambaye amakote ndetse n'amashati, ku meza isa umukara, amarido y'umweru ndetse n'ibirahure imbere yabo hateretse amazi ari mu ducupa.

Abantu bari hamwe mu nama bambaye imipira y'ubururu n'amapantaro y'umukara bicaye kumeza iriho igitambaro cy'Umweru ndetse n'ubururu, umugore uhagaze imbere yabo uri kubaha ikiganiro ufite indangururamajwi wambaye imyenda y'umukara.

Abagabo bari mu nama bicaye ku ntebe zisa umukara, ameza y'igiti, amazi ari imbere yabo, kandi bari mu nzu mberabyombi irimo n'abandi bantu benshi.

Abagabo bane, bicaye ku ntebe zisa umweru. inyuma yabo hari insakazamashusho yanditswemo, byuwiridi hapi andi herifu, komyunitizi foru tumoro, porojegiti dizayini. Umwe muri bo afite indangururamajwi, ari kubwira abicaye imbere yabo.

Abantu barimo abagore, abagabo bicaye ahantu hamwe bambaye impuzankano hejuru isa y'imipira y'ubururu bwerurutse, ku ruhande hariho ibendera ry'u Rwanda bicaye mu ntebe zitwikirije ibitambaro by'umuhondo.

Abantu bari mu nama: abagore batatu bicaye ku meza iriho amazi, bambaye marinete, n'abandi bari inyuma yabo, ahantu h'ikibambasi gisa umuhondo.

Inama, abagabo, bakurikiye mu nama, amarido afunguye, bicaye ku ntebe z'umukara.

Abagore n'abagabo bari mu nama, bicaye ku ntebe z'ibiti zifite utumeza two kwandikiraho, amakaro y'umweru, amarido asa umweru n'ibikuta bisa umweru.

Abagabo n'abagore bicaye ku meza y'igiti bari mu nama, imbere yabo hateretse mudasobwa ndetse n'amazi yo mu ducupa, inkuta zirasa umweru n'ibara rya shokora ndetse n'amafoto ku bibambasi.

Umugabo wambaye ishati y’umweru irimo akarongo k'umukara wicaye ku ntebe y’umukara, imbere ye ku meza hari mudasobwa n'indangururamajwi, ku mpande ze zombi hari amabendera ajyiye atandukanye, imbere ye hari abantu basa nk’abari mu nama bamukurikiye nabo bafite indangururamajwi imbere yabo bari mu kiganiro.

Umugore witandiye igitambaro mu mutwe, wambaye amarinete ufite indangururamajwi mu ntoki, inyuma ye hari icyapa kinini cy'umweru kirimo amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu, imbere ye hari abakurikiye inyigisho arimo arabahereza, bicaye mu ntebe z'umutuku n'umuhondo, imbere yabo ku meza hari igitambaro cyihashashe cy'umweru n'amazi ateretseho.

Abantu bateraniye hamwe mu nama abagabo n'abagore bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umukara n'umweru kumeza hariho ibitambaro bisa umuhondo n'intebe z'umutuku.

Abantu bari mu nama abagabo bambaye amakote harimo ay'umukara, ubururu n'abagore bambaye amakoti y'umutuku, ku meza isa umukara, intebe zisa umweru, bahanze amaso uri kubabwira.

Abagabo bicaye mu nama n'abagore bicaye ku ntebe zisa umweru ndetse n'umuhondo, bambaye amarinete, amakaro arasa umweru ndetse bateze kandi bahanze amaso uri kubabwira.

Ikirangantego cy'urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi mu ibara ry'umweru amagambo yandikishwa ubururu ndetse n'amabara y'ibendera ry'igihugu byanditseho reb Rwanda edikeshoni bodi.

Abagore n'abagabo bicaye ahantu hamwe, ku meza ateretseho mudasobwa zabo zifunguye, basa nkaho bari kuganira ku kintu kimwe, imbere yabo hari ibipapuro barimo barandikaho zimwe mu ngingo barimo baragenda baganiraho.

Ibikorwa remezo by'itumanaho mu ibara ry'umutuku n'umweru, bizengurutswe n'uruzitiro rubirinda, ibidukikije birimo ibiti ndetse n'ibifasha kwakira amajwi aturutse mu mpande zitandukanye.

Abagabo bane n'umugore umwe bafite mudasobwa mu ntoki zisa umweru n'umukara, bari mu muhanda usa umukara, imodoka isa ubururu n'amazu asa umuhondo n'umweru.

Umugabo wambaye umupira uciye amaboko, wambaye isaha ku kaboko, wambaye ipantaro y'umukara, inkweto z'umukara, ahagaze ku muhanda w'igitaka, iruhande rwe hari inzu yubakishijwe amabati, ifite icyapa kiyiranga ko ari icy'ubucuruzi, yanditseho Ecobank.

Igikorwa remezo cy'umunara w'itumanaho, kiriho udushami twinshi twakira ndetse tukohereza amajwi mu ibara ry'umweru, gikozwe mu byuma byinshi binyuranyuranyemo ndetse n'insinga.

Inzu zitangirwamo serivisi z'ubucuruzi umuryango w'icyatsi n'umweru, inzira y'abanyamaguru irimo amabuye y'amapave umucuruzi wa emutiyeni.

Icyapa cyerekana iby'Irembo, handitsemo amagambo byikorere intambwe enye, kanda, saba hanyuma ukurikize amabwiriza, na mudasobwa igaragaza uko wakora ibyo bintu.

Abanyeshuri, bambaye amashati y'umweru n'abarikubagenzura, bambaye imyenda y'umukara, ikibaho gisa umukara, bari kumeza z'ibiti harimo n'umugabo wambaye ishati y'umutuku.

Abagabo n'abagore bari mu nama, bicaye imbere ya mudasobwa zisa umukara, ku meza z'ibiti, abandi bahagaze ku tubati tw'ibiti, inkuta zisa umweru.

Icyapa cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro, kiriho itariki yerekana igihe ugomba kuba wishyuriye imisoro, kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru, amagambo yandikishijwe ibara ry'umuhondo n'umweru.

Paji y'urukuta rw'irembo, irimo amagambo nka ''serivisi nshya ku rubuga rw'irembo govu'' ikigo gitanga iyi serivisi mu ibara ry'ubururu n'umweru.

Ibikorwa remezo by'itumanaho, umunara mu ibara ry'umutuku, ukikijwe n'uruzitiro mu ibara ry'umuhondo n'utwuma tuwuzengurutse.

Ibikorwa remezo birimo amashanyarazi ndetse n'amatara ari ku mapoto, igipangu cyubakishijwe amatafari atukura, ibidukikije birimo ibiti n'ibyatsi ndetse n'indabo n'umuhanda nyabagendwa.

Ibikorwa remezo by'umuriro w'amashanyarazi, amapoto ndetse n'umunara bitwaye insinga z'amashanyarazi, zisa umukara ari nyinshi kandi zinyuranyuranyemo.

Ibikorwa remezo by'amashanyarazi, umunara, insinga, ibidukikije, ibiti, inzira nyabagendwa, ibyatsi n'utubuye dushashe mu muhanda.

Ibikorwaremezo by'amashanyarazi, umunara muremure ucaho insinga z'amashanyarazi, ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gutwara umuriro, ibidukikije, birimo ibiti, n'amazu, ndetse n'igipangu.

Igipangu cy'amatafari y'umuhondo, gisize akarange k'umukara, utwuma dusa umukara, igikorwaremezo cy'amashanyarazi, insinga zitwara umuriro.

Umuhanda nyabagendwa usa umukara umwe winjira mu wundi ibidukikije birimo ibiti, ndetse n'ibyatsi inzira inyuramo amazi hari kunyuramo amagare atwawe n'bantu.

Ibikorwaremezo birimo iby'amashanyarazi iminara miremire inyurwaho n'insinga nyinshi ikozwe mu byuma ndetse n'inzu zirimo izo guturamo n'iz'ubucuruzi, ibyapa byamamaza ndetse n'ibidukikije.

Inzu y'ubucuruzi igeretse kabiri mu ibara ry'umuhondo ibirahuri by'ubururu ndetse n'amatara nk'ibikorwaremezo n'amashanyarazi mu busitani burimo ibyatsi ndetse n'ibiti n'uruzitiro rw'utwuma.

Ibikorwa remezo birimo amashanyarazi, ariko kunyura ku ku munara w'amashanyarazi ukozwe mu byuma, iruhande rw'aho hari ibidukikije birimo ibiti n'ubusitani ndetse n'ibindi bikoresho.

Ibikorwa remezo by'amashanyarazi, amatara, insinga ndetse n'ibidukikije, birimo ibiti, ikirere ndetse n'amapoto ashinzeho.

Ibikorwa remezo birimo: amatara, amashanyarazi ndetse n'ibyuma byifashishwa mu gufata amashusho, bimanitse ku mapoto biri hafi y'ahantu hari ibidukikije ndetse n'urukuta rw'amatafari.

Inzu zo guturamo, zisize amarange y'umweru, zifite ibirahuri by'umukara, amabati y'umukara, ibikorwaremezo by'amashanyarazi, insinga, ibidukikije, ibiti ndetse n'umuhanda.

Umuhanda nyabagendwa usa umukara, umutaka wa MTN usa umuhondo, ibidukikije, ibiti, ipoto ry'amashanyarazi ririho n'insinga.

Igipangu kirimo ibidukikije ibitoki, ibikorwa remezo, birimo amashanyarazi n'amapoto yayo indabo, ibyatsi, inzira y'abanyamaguru ndetse n'umuhanda w'umukara.

Igipangu cyubakishijwe amatafari, igiti kiriho insinga z'amashanyarazi, umuntu ugihagaze munsi wambaye umupira w'umutuku, n'icyapa kigaragaza ibikorerwaho aho ngaho.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka zirenze imwe. Inzu igeretse gatatu igipangu cyicyatsi. Abantu, umugore n'umugabo, icyapa cyerekana ko hatanyurwa.

Ibikorwaremezo by'amashanyarazi, biri ku ipoto insinga nyinshi zinyuranyuranamo, inzu z'ubucuruzi ndetse n'izo kubamo, umutaka usa ubururu ndetse n'abantu.

Ibikorwa remezo birimo amashanyarazi, amatara biri ku muhanda w'umukara nyabagendwa, abantu bari kunyuramo, umugore n'umugabo n'ibidukikije n'urukuta rw'amabuye.

Ibikorwa remezo by'amashanyarazi, insinga, amapoto, zigenderaho biri ahantu hari umuhanda nyabagendwa, hahagaze abagore babiri bambaye amajiri y'icyatsi, ndetse n'imyenda y'umukara iruhande rw'inzu isa umuhondo.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo rusange isa umweru, iri kugenda mu muhanda, ibidukikije, ibiti, ibikorwaremezo by'amashanyarazi.

Ibikorwa remezo, amatara ku biti by'umweru, umunara w'amashanyarazi, ibidukikije, ibiti, umuhanda nyabagendwa unyurwamo n'ibinyabiziga.

Ipoto rirerire rifashe insinga z'amashanyarazi izohereza ahantu hamwe rizikura ahandi zitwaye amashanyarazi, rihagaze imbere y'urugo rwubakishijwe ku gipangu cyacyo amatafari n'ibyuma bifite irangi ry'umukara, mo imbere harimo inzu yubakishijwe amabati agezweho mu buryo bukozwe n'amategura.

Igikorwa remezo, birimo amazu yubakijwe amatafara asa umuhondo n'irangi risa umuhondo, amabati asa umutuku, inzira nyabagendwa ndetse n'ibidukikije.

Abantu benshi bari ku ivuriro, harimo abagabo n'abagore, intebe zicarwaho ziteye ahantu hari amabuye, ashyirwa mu nzira nyabagendwa, imodoka z'ubutabazi zisa umweru n'umutuku.

Abagabo n'abagore bari kugenda mu muhanda nyabagendwa, imbere y'inyubako yanditseho ibitaro bya Masaka, ubusitani indabo.

Inzu igeretse rimwe iriho utuntu twifashishwa mu kuzamuka uva hasi ujya hejuru, y'ibirahure isize irangi ry'umweru, imbere yayo hari ubusitani ndetse n'ibikorwa by'amashanyarazi.

Umuhanda nyabagendwa usa umukara haparitsemo imodoka eshatu; imwe isa umweru n'indi yo m'ubwoko isa umweruru n'indi y'umukara, k'uruhande yicaye umugore wicaye mu kayira k'abanyamaguru ndetse n'abandi bantu bari kwinjira ahantu.

Inzu mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara n'ibigega byifashishwa mu kubika amazi bisa umukara ndetse n'inzira nyabagendwa, ubusitani, amabati asa umutuku ndetse n'ibyapa.

Inzu ebyiri ziri kumurongo imwe isakajejwe amabati y'umutuku nindi isakaje amabati asa shokora, amatafari zubatsesa umuhondo n'irangi ryumuhondo inzira zinyurwamo nabagenzi isakaye ubusitani ndetse n'ibiti.

Abantu bateka bambaye imyenda y'umweru barimo abagore n'abagabo bari gutanga serivisi yo guha abantu ibiryo, barimo ab'igitsina gore n'igitsina gabo, mu masafuriya.

Icyapa k'ibitaro bya Kacyiru, cya mpande enye, mu mpande gifite ibara ry'umukara, mo hagati harimo ibara ry'umweru, ryandikishijwemo amagambo, afite amabara agiye atandukanye, ariryo ubururu, umukara n'umuhondo.

Abantu bicaye ahantu hamwe, barimo abagore n'abagabo, basa n'abategereje guhabwa serivisi, bicaye ku ntebe z'ibiti zifashwe n'amaguru y'ibyuma ndetse hasakajwe amabati, hanubakishijwe amatafari y'umuhondo ndetse n'ibirahure.

Inzu ntoya ifite umuryango w'umweru yubakishwa amatafari atukura ibidukikije, ndetse inzira y'abanyamaguru n'ubusitani ndetse n'ahandi hantu hasakaye hafashwe n'inkingi z'ibyuma.

Abagore batatu bicaye mu ntebe zibajijwe mu mbaho, imbere yabo hari amezi abajijwe na yo mu mbaho agiye ateretseho ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, hariho mudasobwa, n'imashini yifashisha mu gucapa impapuro. Iruhande rwawo hagiye hari udupapuro duhari two kwandikaho ibyo barikubona muri mudasobwa.

Inzu ifite amabati y'umutuku iriho amatafari z'umuhondo, mu ibara ry'umweru, imodoka y'imbangukiragutabara, mu ibara ry'umumweru n'umutuku iparitse ku mabuye.

Inzu ifite ibirahure, isize irangi ry'umweru, ndetse hariho n'amarido asa ubururu, intebe abantu bicaraho zisa nk'ivu, ndetse n'agatebe kagenewe kugendwamo n'abantu bafite ubumuga.

Umuhanda nyabagendwa uri kunyuramo abantu; abagore n'abagabo, basa umukara, barimo n'ikinyabiziga cya moto, iruhande rw'inyubako ifiteho icyapa cyanditseho ngo Medical volunteer organization.

Umugabo wambaye amarinete wambaye itaburiya y'umweru ipantaro ya kaki, inkweto za shokora imbere ye hari umugore wambaye umwenda uri mu ibara ry'umweru n'umukara wicaye mu ntebe y'umukara imbere ye hari ameza ariho mudasobwa asa nkaho yaje kwa muganga bari gupima umutima we uburyo utera.

Abantu bambaye amakanzu y'ubutabera, bambaye udupfukamunwa na marinete, imbere yabo hari mudasobwa ziteretse ku meza y'igiti ndetse n'indangururamajwi.

Umugabo wambaye ikanzu itukura, irimo n ibara ry'umukara ndetse n'umweru, wirabura, urimo araseka, inyuma he harasa umweru.

Umugabo ufite uruhu rwirabura, afite indangururamajwi mu ntoki, yambaye ibirahuri bikingira amaso, ikoti ry'umukara, ishati y'umweru, inyuma ye hari icyapa cyanditseho amagambo, mu ibara ry'umweru n'umukara.

Umugore n'umugabo bicaranye bari kuganira, imbere yabo hateretse ibirahuri byifashishwa mu kunywa, ku meza asa umukara n'udutambaro dusa umweru.

Umugabo wambaye ikanzu y'umutuku n'umukara, bigaragara ko akora mu rwego rw'ubutabera wiyogoshesheje.

Abagororwa, abagore bambaye imyenda isa umuhondo n'iy'iroza bari kugenda mu muhanda w'igitaka n'igipangu, amatafari n'irangi ry'umuhondo.

Icyapa kigaragaza igororero rya Muhanga mu ibara ry'umweru amagambo yandikishijwe umukara, uruzitiro rukozwe n'amabuye asizwe irangi ry'umweru.

Umugabo ufite umusatsi muke, ikote ry'ubururu n'umukara, ishati isa nk'ivu, inyuma hasa umweru.

Abantu bateraniye hamwe, abagore, abagabo, bari gutanga ubutabera ku muntu wambaye imyenda y'iroza, abicaye bari ku ntebe z'ibiti ndetse n'imeza y'igiti.

Icyapa kiburira mu ibara ry'umweru n'ubururu, cyanditseho amagambo "wari uzi ko ukwiye kwirinda abagira ibyo bagusaba bakwizeza kugufasha kubona ubutabera mu nkiko, birinde ubutabera ntibugurwa."

Abagabo bahagaze k'umurongo barimo abambaye amakoti ndetse n'abambaye impuzangano y'urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano, n'umugore wambaye ikanzu itukura n'umweru inyuma yabo ari ikiranganihigo cy'igihugu ndetse bari mu nzu isa umweru.

Abantu bari hamwe abagore abagabo, umwe muri bo yatunze urutoki hejuru, bari mu bidukikije ibiti, bo ubwabo basa n'abari mu kiganiro.

Umugabo wambaye ikanzu itukura, agatambaro k'umweru, ishati y'umweru iciyemo uburongo bw'umukara, uruhu rwirabura, amaso y'umweru n'umusatsi muke, inyuma igikuta kirasa umweru bigaragara ko akora mu rwego rw'Ubutabera.

Imodoka iri kuvanwamo abagororwa, bagenzi babo bahagaze ku mapave, bambaye imyenda y'iroza n'udupfukamunwa, barinzwe kandi bacungiwe umutekano n'abacungagereza...

Abagabo babiri bambaye imyenda y'ibyo mu butabera, abagore babiri bambaye impuzankano y'abagororwa, bari kuganira ku meza isa umweru na mudasobwa.

Umugabo wambaye ikanzu isa umutuku n'umukara ndetse nishati y'umweru, wambaye amarinete, ufite uruhu rw'imibiri yombi, bigaragara ko akora mu butabera.

Abagabo bambaye amakanzu agaragaza ko bakora mu rwego rw'ubutabera, mu ibara ry'umukara n'umweru, imbere yabo hateretse mudasobwa ndetse hirya yabo gato hari abandi bambaye impuzankano y'imfungwa n'abagororwa.

Umugore wambaye ikote ry'umukara n'umupira w'umweru, wicaye ku ntebe y'umukara imeza y'igiti, imbere ye hateretse amazi na ji, igikuta gisa umweru.

Umugabo w'umubiri wirabura, wambaye ikote ry'ubururu bwijimye, karuvati y'ubururu n'uturongo tw'umweru, ishati y'umweru, amazi amuteretse imbere, yambaye n'amarinete.

Umugore wambaye amarinete, wambaye imyenda y'iroza isa nk'impuzangano y'abagororwa, wambaye amapingu mu ntoki, inyuma ye hari umugabo n'umugore bambaye impuzangano z'abacungagereza.

Umugabo wambaye ikanzu y'umutuku ukora murwego rw'ubutabera, n'ishati itukura umubiri n'igikara, amaso n'imweru.

Abantu bicaye hamwe bari mu nama abagore n'abagabo, umugabo wicaye imbere yabo yambaye ikoti risa'umukara inkuta zirasa umweru abandi bicaye ku ntebe z'ibiti n'ameza y'ibiti hasi harasa umutuku.

Abagabo bari ku murongo bari kugenda mu muhanda w'ibitaka buturutse mu gipangu cyanditseho gereza ya Nyarugenge, amatafari y'umuhondo, irangi ry'umuhondo.

Abagabo batandukanye bambaye imyenda y'iroza isa nk'impuzankano y'abagororwa bo mu gihugu cy'u Rwanda bambaye udupfukamunwa, umwe mu bagabo arahagaze iruhande rwe hari umuhagarariye mu mategeko wambaye imyenda y'umukara iri mu ibara ry'umweru, aba bagabo bose bakaba bicaye ku ntebe z'umukara.

Umumotari utwaye umugenzi ku ipikipiki ari muri kaburimbo, iruhande rwe hari inzira y'abanyamaguru, iruhande rwayo hari icyapa cy'umuhanda, iruhande rwacyo hari ipoto rerire, rifashe insinga z'amashanyarazi.

Imodoka isa umweru amapine y'umukara, iparitse mu muhanda usa umukara, igipangu gisa umweru ibidukikije, indabo, ibiti, iriho amatara y'itabaza y'ubururu n'umutuku.

Igikoresho cyifashishwa mu kuzimya umuriro gisa umutuku n'umukara, kimanitse ku rukuta rusa umweru rwanditseho amagambo y'umukara, hasi amakaro arasa umweru n'umukara ndetse n'umuryango usa umukara.

Umugabo wambaye impuzankano y'urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano wo mu muhanda, yanditseho polisi mu ibara ry'umukara, umugore umuhagaze iruhande, abantu batwara moto kandi bazicayeho, imodoka itwara abantu mu buryo rusange.

Ibikoresho byifashishwa mu butabazi bw'ibanze mu kuzimya umuriro bisa umutuku n'umukara n'umuhondo biriho ibyapa bigaragaza uko bikoreshwa biri ahantu hasa umukara.

Igikoresho cyifashishwa mu butabazi bw'ibanze, bazimya umuriro, gisa umutuku, kiri ku mugozi muremure, kiri ku rukuta rusa n'umweru.

Ukora mu rwego rw'igihugu rushinzwe umutekano wambaye imyenda y'umukara, imodoka bigaragara ko ziri mu isuzumabumenyi, inzu igeretse rimwe, ibidukikije birimo ibiti.

Imodoka ifite ibara ry'umweru, umukara, ihagaze imbere y'inyubako yubakishijwe inkuta zifite ibara ry'ikijuju n'umweru, rifite ibyuma biyikikije by'ibara ry'umweru, ihagaze mu mbuga yayo yubakishijwe amabuye.

Umugore wambaye ikote risa ubururu n'amarineti wicaye wageretse akaguru ku kandi wambaye n'agakomo, yicaye ku ntebe isa umweru, iruhande rwe hari igikoresho cy'ubugeni gisa umukara ndetse n'urukuta rusa umweru.

Umugabo wambaye marinete wafunguye umunwa wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru, afite umusatsi muke inyuma ye harasa umweru ndetse n'amaso arasa umweru.

Abantu abagore n'abagabo n'abana bambaye imipira isa ubururu n'umutuku, bafite amadarapo yanditseho FPR mu ibara ry'umweru, ubururu n'umutuku.

Umukuru w'igihugu yambaye umupira w'umukara n'amarinete y'umukara, akikijwe n'abamurinda ndetse n'abandi bantu baje kumureba, bambaye imyenda y'ubururu n'ingofero z'umutuku.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru, wambaye amarinete, ufite umusatsi muke, umubiri ni igikara.

Umugore ufite imisatsi myinshi y'umukara, wambaye ishati y'umweru n'igitenge kirimo amabara menshi, uri mu bidukikije ibiti ndetse nibyatsi n'rumuri rwinshi.

Umugabo wambaye ikote rijya gusa umweru n'ishati y'umweru ugaragiyewe n'abandi babiri umwe wambaye ikoti ry'umukara undi wambaye umupira w'umweru uri kuvugira ku ndangururamajwi iruhande rw'amazu ndetse n'ibyapa bisa umweru.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara n'umweru uhagaze ku musambi arikuvugira ku ndangururamajwi isa umukara. Inyuma ye hicaye abagore babiri ku ntebe z'icyatsi, imeza y'igiti, ndetse n'icyapa gisa umweru n'umukara.

Umukuru w'igihugu ari gutanga imbwirwaruhame ku mbaga nyamwinshi ihuriye aho ibikorwa remezo by'imyidagaduro bibera, ikote ry'umukara indangururamajwi y'umukara.

Abantu batonze imirongo abagore n'abagabo, bari kwinjira mu miryango isa umuhondo iri ku nzu zubakishijwe amatafari, amabati y'ubururu, bigaragara ko ari igikorwa bari kujyamo.

Abagabo batatu umwe wambaye umupira w'umweru wanditseho indi ntambwe, n'ipantaro y'ubururu n'undi wambaye ikote risa umukara undi nawe, yambaye ikote ry'ubururu imbere yabo hari abantu babateze amatwi benshi.

Abantu bari mu nama, umugabo wambaye ikoti ry'umukara ishati y'ubururu, ari kuganira n'umugore wambaye ikanzu y'umukara, ku meza y'urubaho imbere yabo hari amazi ari mu icupa.

Umugore uri guseka, ufite amenyo y'umweru, yambaye ishati ifite ikora ry'umweru, inyuma ye harasa umweru, yambaye n'amaherena y'umweru.

Ibendera rifite amabara atatu umutuku umweru ndetse n'ubururu ryanditseho ijambo efuperi rishinze ku giti k'icyuma ririmo riraguruka mu kirere gisa umweru.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara n'umweru, n'amarinete afite umusatsi muke, yicaye ku ntebe z'umukara, imbere ye hari agacupa gateretsemo amazi, ari kuvugira ku ndangurura majwi inyuma ye urukuta rurasa umweru.

Umukuru w'igihugu, gusuhuzanya, abagabo n'umugore, imyenda y'umukara, ishati y'umweru, ikanzu mu birori.

Umugabo wambaye imikenyero isa umuhondo ndetse n'ishati y'umukara, inyuma ye hari icyapa mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi n'ubururu n'umutuku, hariho ifoto y'umuntu ndetse n'umugore wambaye ikoti ry'umutuku n'umugabo umwicaye iruhande.

Ibiti bisa umweru bishinzeho amabendera mu mabara atandukanye, iruhande rwabyo hari abantu abagore abagabo bambaye imyenda itandukanye bari kuganira ndetse n'inzu isize irange ry'mweru n'ibidukikije.

Umugore wambaye ikote ufite imisatsi miremire, imbere ye hari idarapo ryigihugu, yicaye ku meza asa umweru ndetse n'intebe y'umukara, inyuma hari amarido asa umweru, ndetse n'ifoto.

Urupapuro mu ibara ry'umweru, amagambo yandikishijwe umukara, ruriho amafoto y'abantu batatu, amazina Polo Kagame, Habineza Furanke, Mpayimana filipe, rufitwe n'umugore wambaye umupira w'umweru.

Imodoka itwara imizigo mu ibara ry'umweru n'icyatsi, mu muhanda nyabagendwa usa umukara, hariho inzira y'amazi n'ibidukikije nk'ibiti.

Umuhanda nyabagendwa uri kugendamo imodoka itwara abagenzi mu buryo rusange n'amapikipiki asa umukara uriho ibidukikije, amatara ndetse n'abantu barimo baranyura kuhande.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga w'umukara wa kaburimbo, inzira nyabagendwa y'abanyamaguru ku ruhande ndetse n'imiyoboro y'amazi, umuhanda uri kunyurwamo n'ikinyabiziga cyifashishwa mu bwikorezi ndetse n'umuntu utwaye igare.

Ikinyabiziga mu muhanda nyabagendwa, kiri mu ibara ry'umweru n'umuhondo, amapine y'umukara, umuhanda ugabanyijemo ibice bibiri, ibidukikije, ibiti n'indabo.

Umuhanda nyabagendwa, urimo ibinyabiziga, imodoka itwara abantu mu buryo rusange isa ubururu n'umweru, moto itwaye umugore n'umugabo.

Imodoka iri muri kaburimbori n'iy'ubwoko bw'ikamyo ipakiye inka, iruhande rwayo hari umuhanda wagenewe abanyamaguru, iruhande rwawo hari ruhurura yubakishijwe amabuye na sima yagenewe kuzajya inyurama amazi y'imvura, iruhande rwayo hari ibiti bigiye bishinze bikikije umuhanda.

Umuhanda nyabagendwa mu ibara ry'umukara, inzira y'abanyamaguru iri kunyuramo abantu, ibinyabiziga, moto, imodoka.

Inzira ibinyabiziga binyuramo umuhanda w'umukara kaburimbo akanyabiziga gatwara ibicuruzwa igare riri gusunikwa n'umunyonzi.

Umuhanda nyabagendwa usa umukara uranyurwamo n'ikinyabiziga kizwi nka moto, mu ibara ry'umutuku ndetse n'umukara gitwawe n'umuntu, ibidukikije birimo ibiti ndetse n'inzu ndende.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara, urimo moto itwawe n'umugabo wambaye ijiri isa umuhondo, moto irasa umutuku, harimo ibidukikije by'icyatsi, amatara y'umweru, umuhanda uciyemo imirongo isa umweru, ndetse n'umuhondo.

Umuhanda nyabagendwa unyuramo ibinyabiziga bitwara imizigo, ibitwara abagenzi, ibidukikije birimo ibiti ndetse n'imiyoboro itwara amazi.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga bininini n'bito, usa n'umukara uciyemo imirongo y'umweru. Inzira y'abanyamaguru iri ku ruhande. Uranyurwamo n'akanyayabiziga gatwara imizigo gato ndetse n'ikindi kinini gisa n'umweru n'ubururu.

Imodoka yikoreye imizigo inyuma yo mu bwoko bwa Toyota, iri mu mabara y'ubururu, umuhondo, ifite amapine y'ibara ry'umukara. Mu muhanda wa kaburimbo imbere yayo hari ibinyabiziga bikoresha amapine atatu, ibyo binyabiziga akaba ari bibiri. Uruhande rw'umuhanda birimo, akaba ari umuhanda wubakishijwe wagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru.

Umuhanda nyabagendwa w'umukara, imodoka isa umweru, ipikipiki itwaye abantu babiri, imodoka itwara abantu mu buryo rusange.

Umuhanda nyabagendwa usa umukara uranyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye harimo imodoka zitwara abagenzi m'uburyo rusange isa umweru n'amapine y'umukara ndetse n'ipikipiki itwaye abantu babiri n'ibidukikije.

Imodoka zifashishwa mu bwikorezi, ebyiri, zisa umweru ndetse n'umukara, zikoreye imifuka, ziparitse mu nzira nyabagendwa, kandi hari ibidukikije birimo ibiti ndetse n'amazu.

Umuhanda usa umukara uranyurwamo kandi urabisiganirwamo n'ibinyabiziga birimo ibiby'ubwikorezi, ndetse n'amapikipiki ibidukikije n'abantu, bari kugenda mu nzira y'abanyamaguru.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo rusange, mu ibara ry'umweru n'ubururu, iri kunyura mu muhanda, usa umukara wa kaburimbo, irabisekana, ifite ibara ry'umukara, kuruhande rw'umuhanda hari idukikije.

Umuhanda nyabagendwa mu ibara ry'umukara uciyemo imirongo isa umuhondo n'umweru, ibisikanirwamo, uranyurwamo n'ibinyabiziga birimo moto ndetse n'imodoka hariho n'ibidukikije nk'ibiti n'ubwatsi.

Imodoka isa umweru, umuhondo ndetse n'amapine y'umukara yandikishijweho amagambo y'umutuku yanditse ngo yego kabu, mirongo icyenda na rimwe mirongo icyenda na rimwe iparitse m'umuhanda nyabagendwa usa umukara.

Imodoka ebyiri, imwe isa umweru n'umuhondo, indi mu ibara ry'umweru, iparitse mu muhanda nyabagendwa, abantu bari imbere yayo, ibiti n'ibidukikije.

Imodoka nini y'ubwikorezi ifite irangi ry'ubururu, ifite amapine arimo irangi ry'umuhondo n'umukara, iri muri kaburimbo, iruhande rwayo hari inzira y'abanyamaguru irimo irakoreshwa. Iruhande rwayo hari ruhurura yubakishijwe amabuye na sima.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara imirongo icimo n'umweru ndetse n'iy'umuhondo igabanyamo umuhanda kabiri, imodoka isa umweruru n'indi y'umutuku na moto zitwawe n'abamotari kandi itwaye n'abagenzi.

Umuhanda nyabagendwa usa umukara uri kunyuramo ikamyo y'ubwikorezi mu ibara ry'ubururu n'umweru, ndetse n'imodoka itwara abantu m'uburyo busanzwe isa umwe n'umukara n'ipikipiki ndetse n'umuntu ukuruye umufuka.

Imodoka zisa umweru n'umuhondo, zifite amapine y'umukara, n'indi itwara abantu mu buryo rusange, abantu bari kugenda mu nzira y'umuhanda usa umukara.

Umuhanda nyabagendwa usa umukara, uri kunyuramo imodoka y'ubwikorezi isa icyatsi, inyuma yayo hari imodoka ntoya, inzira y'abanyamaguru.

Umuhanda w'umukara nyabagendwa, inzira y'abanyamaguru, ibinyabiziga, ubwoko bwa moto itwawe n'umugabo iriho n'umugenzi, imodoka itwara imizigo n'igare.

Umuhanda nyabagendwa usa umukara, imodoka y'umuhondo y'ubwikorezi, ibidukikije, ibiti, umuntu uri kugenda mu nzira y'abanyamaguru.

Umuhanda w'umukara uri kugendamo ibinyabiziga moto, imodoka uciho imirongo y'umweru igabanyamo umuhanda mo ibice bibiri, amazu y'ubucuruzi n'umutaka w'umuhondo wa MTN.

Ikinyabiziga kizwi nka moto cyifashishwa mu gutwara abagenzi, cyicayeho umugabo wambaye ijire y'umuhondo, ipantaro isa umuhondo N'ikoti ry'umukara, kiranyura mu muhanda usa umukara, ndetse n'amazu yo guturamo n'ibidukikije.

Umuhanda rusange usu umukara uciyemo imirongo y'umweru ndetse n'inzira y'abanyamaguru ku ruhande. Urikunyuramo imodoka yifashishwa mu gutwara abagenzi mu buryo rusange, ndetse na moto yifashishwa mu gutwara imizigo.

Abatwara amapikipiki baparitse aho bagenewe guparika, bambaye amajire asa umuhondo, amapikipiki arasa umutuku hafi y'inzu z'ubucuruzi zigeretse kabiri.

Umuhanda nyabagendwa w'umukara, kaburimbo, imodoka y'umweru, abatwara amagare babiri, umwe wambaye umupira wa karokaro, undi wambaye ishati yamaboko maremare.

Umuhanda nyabagendwa uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye harimo imodoka isa umweru n'amapine y'umukara ndetse n'ipikipiki isa umutuku amapine y'umukara itwaye abantu babiri mu muhanda ubisikanirwamo ndetse n'inzira y'abanyamaguru

Umuhanda nyabagendwa usa umukara wa kaburimbo. Imodoka yikorera imizigo isa umweru, abanyonzi batwaye abagenzi, umuhanda wabanyamaguru.

Umuhanda nyabagendwa usa umukara wa kaburimbo, urimo imirongo igabanyamo umuhanda mo ibice byinshi mu ibara ry'umweru, urikunyuramo ikinkinyabiziga gitwara imizigo mu ibara ry'umweru n'ubururu.

Imodoka iri mu bwoko bwa toyota isa umweru itwara imizigo, iparitse mu muhanda wa kaburimbo iruhande rw'akayira k'abanyamaguru, iruhande rwayo hari igare n'abagenzi bari kunyuraho.

Umuhanda nyabagendwa usa umukara kuruhande hari inzira y'abanyamaguru ndetse n'inzira amazi anyuramo n'ibidukikije uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bibisikana bisa umweru n'umukara ndetse n'amapikipiki.

Imodoka nini yo mu bwoko bw'ikamyo y'amabara y'umweru, umutuku, ikijuju n'umukara, iri mu muhanda wa kaburimbo urimo izindi modoka z'ubwoko bugiye butandukanye, iruhande rwayo hari umunyonzi utwaye umukiriya ku igare muri kaburimbo, iruhande rwaryo hari inzira y'abanyamaguru, iruhande rwayo hari ruhurura.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, umuhanda w'umukara uciyemo imirongo iwugabanyamo ibice bitandukanye, amazu y'ubucuruzi, insinga z'amashanyarazi, amatara.

Umuhanda nyabagendwa mu ibara ry'umukara uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bibisikana, harimo kimwe cyifashishwa mu bw'ubatsi ndetse n'ikindi kiri mu bwoko bwa toyota, mu ibara ry'umweru, umutuku n'umukara.

Imodoka mumuhanda w'umukara isa umweru n'umuhondo, inzu ibidukikije, inzira nyabagendwa y'abanyamaguru.

Umuhanda nyabagendwa usa umukara uranyuramo imodoka isa umweru n'umukara yifashishwa mu bwikorezi, ndetse n'izindi modoka ziparitse harimo n'inini n'intoya ndetse n'ibidukikije.

Umuhanda nyabagendwa wubatse mu tubuye dukoreshwa mu mihanda, uri kunyuramo imodoka itwara abagenzi mu mujyi rusange, isize irangi ry'umweru n'ubururu na moto.

Inzira nyabagendwa inyurwamo n'abanyamaguru ndetse n'umuhanda mugari unyurwamo n'ibinyabiziga uparitsemo imodoka isa umweru n'ipikipiki umugabo uyicayeho n'undi uri kuvugana na we ndetse n'ibikorwa remezo birimo amazu maremare.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga usa umukara uciyemo imirongo iwugabanyamo isa umweru n'umuhondo ikinyabiziga cya moto ibidukikije ibiti ndetse n'indabo.

Umumotari utwaye umugenzi ku ipikipiki muri kaburimbo, iruhande rw'iwe hari imodoka imwe yo mu bwoko bw'ikamyo, iruhande rwayo hari inzira yagenewe abanyamaguru, iruhande rwayo hakaba hari ibiti birebire bishinze bikikije umuhanda.

Imodoka ntoya zitwara abantu mu buryo rusange zir mu ibara ry'umweru, icyatsi ndetse n'umukara, ziparitse ku muhanda nyabagendwa usa umukara, n'abantu bategereje kuzinjiramo, amatara ari kwaka.

Umuhanda nyabagendwa, usa umukara, ukikijwe n'ibiti ndetse n'inzira z'amazi, hari kunyuramo imodoka ifite ibara ry'umweru, amapine y'umukara ndetse n'abantu bari kunyura ku nkengero z'umuhanda.

Umuhanda nyabagendwa usa umukara, uriho inzira zicamo amazi ku ruhande, imodoka isa umukara n'indi itwara imizigo, amapikipiki atwaye abagenzi n'ibidukikije.

Umuhanda nyabagendwa usa umukara, akayira k'abanyamaguru karimo utubuye tugenderwaho, ibinyabiziga, amapikipiki ndetse n'imodoka yifashishwa mu by'ubwubatsi, n'izindi z'abaturage bisanzwe.

Umuhanda usa umukara uciyemo imirongo y'umuhondo uri kunyurwamo na moto itwaye abantu babiri, iruhande rwawo hari urukuta rusa umweru ndetse n'ibidukikije n'ibikorwa remezo birimo amashanyarazi n'amatara.

Imodoka nini, ikamyo yo mu bwoko bwa dayihatsu, ifite ibara ry'umweru n'umukara, iri muri kaburimbo, itwikirijwe ishashi y'ubururu, iruhande rwayo hari umugabo uri ku igare utwaye umuntu.

Ikinyabiziga cyifashishwa mu gutwara imizigo kiri mu ibara ry'umuhondo, n'umukara, n'umweru, gihagaze mu muhanda nyabagendwa usu umukara urikunyuramo ibindi binyabiziga, ku ruhande hari akayira k'abanyamaguru.

Umuhanda w'umukara nyabagendwa uciyemo imirongo y'umweru, imodoka yikoreye mu ibara ry'umweru n'umukara, ibidukikije birimo ibiti ibyatsi ndetse n'ibikorwaremezo by'amashanyarazi.

Imodoka y'ubwikorezi itwaye imizigo yifashishwa mu bwubatsi isa umweru ndetse n'umukara, n'amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu, iri kunyura mu muhanda nyabagendwa usa umukara, iruhande rw'inzira nyabagendwa ndetse n'inzira itwara amazi.

Umuhanda nyabagendwa mu ibara ry'umukara urimo ibinogo hari kunyuramo akanyabiziga kifashishwa mu gutwara imizigo gasa ubururu, n'amapine y'umukara ndetse n'ibidukikije birimo ibiti n'ibikorwaremezo by'amashanyarazi.

Umuhanda nyabagendwa usa umukara urimo amatara amazu kuruhande uranyurwamo n'ikinyabiziga cyikorera ibicanwa ndetse n'ibidukikije birimo abantu ndetse n'ubusitani.

Ahateranira abantu bagamije kuruhuka hicawe n'abagore ndetse n'abagabo n'abandi bari kugenda mu nzira z'abanyamaguru hari ibidukikije birimo ibiti ibyatsi ndetse n'icyapa cyanditse emupisi pulaza.

Ahantu abantu bicara bari kuruhuka inzira nyabagendwa, abagore, abagabo, inzu ndende ibara ry'umuhondo.

Aho abantu benshi bahurira, umugabo n'abana babiri bari ku magare asa umuhondo n'icyatsi, ijambo ryanditswe mu nyuguti nini rya Kigali, ahantu hasa umweru.

Ahantu hahurira abantu benshi hari amazu asa umuhondo, afite ibirahure by'umukara, abagore n'abagabo bari kugendera mu nzira nyabagendwa irimo utubuye tw'amapave.

Ikibuga cy'imyidagaduro gisa umutuku kizengurutswe n'ibara ry'umukara, ubusitani, ibiti ndetse n'aho cyubakiwe.

Intebe zicarwaho n'abantu bahuriye hamwe zisa icyatsi, ziteretse ku twuma dusa nk'ivu, ibara ry'aho ziteretse naho harasa nk'ivu, ibyuma bizengurutse aho hantu.

Icyapa cyo mu muhanda umuzenguruko w'umukara ubuso bw'umuhondo cyanditseho silowu bivuga genda gake, kiri kurupapuro rusa umweru.

Umuhanda nyabagendwa usa umukara, wa kaburimbo, uriho icyapa cyanditseho Akanyaru, Huye, Kibugabuga, Nyamiyaga, hariho ibidukikije ku ruhande ibyatsi ndetse n'urutoki n'amazu yo guturamo.

Icyapa cya mpande eshatu mu ruhande rwacyo hari ibara ry'umutuku hagati harimo ibara ry'umweru gifashe ku cyuma kigaragara nkaho ari icyapa cy'umuhanda kuko iruhande rwacyo hari umuhanda urimo urakoreshwa n'imodoka zitandukanye harimo n'ibiti birebire bifashe amatara yo mu muhanda.

Ibyapa bibiri byo muhanda bigerekeranyije mu ibara ry'umweru, umuzenguruko w'umutuku n'ibimenyetso bigaragaza icyo bikora by'umukara, kimwe kigaragaza umuhanda ukatira iburyo n'akandi gato kawushamikiyeho ndetse n'aho abasheshe akanguhe bagendera.

Icyapa kigaragaza uko umuhanda ukoreshwa cyerekana ko umuhanda utabisikanrwamo; mu ibara ry'umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru; ibimenyetso byerekana ko imodoka zitabisikaniramo by'umukara.

Icyapa cyerekana umuhanda ubisikanirwamo, umuzenguruko w'umutuku mu ibara ry'umuhondo, utumenyetso twerekana ibyerekezo dusa umukara.

Umuhanda nyabagendwa mu ibara ry'umukara, uriho icyapa cy'ubururu, inyuguti yanditse mu ibara ry'umweru, hasi handitseho tagisi, abantu bari kugenda mu nzira y'abanyamaguru, ibidukikije.

Icyapa cyo mu muhanda, ubuso ni umuhondo, kigaragaza ko umuhanda ufite ubunyerere, mu kirango cy'imodoka gisa umukara hicayemo umuntu ku rupapuro rw'umweru.

Icyapa cyo mu muhanda, mu ishusho ya mpandeshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umuhondo, ikimenyetso cy'umukara kigaragaza umugabo, uri mu mirimo y'amaboko, kiri ku rupapuro rusa umukara.

Icyapa cyo mu muhanda, mu ishusho y'umuzenguruko, ubuso busa umweru ndetse n'ibara ry'umukara ryanditse umubare mirongo itandatu, rigaragaza umuvuduko ntarengwa ugomba kugenderwaho mu muhanda.

Ibikorwa remezo birimo umuhanda mu ibara ry'umukara ndetse n'ibimenyetso bigaragaza aho abanyamaguru bambukira, uruzitiro ruteye irangi ry'umweru, ndetse n'ibikorwaremezo by'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo iruhande rwawo hari amabuye yubatse yerekana imbago z'aho umuhanda aho urangirira, y'ibara ry'umweru n'umukara, iruhande rwawo hari ubusitani buteyemo icyapa cy'umuhanda, kirimo inyuguti ya pa iciyemo akarongo bisobanuye y'uko nta modoka cyangwa ikinyabiziga icyo ari cyo cyose, cyemerewe guhagarara aho hafi.

Icyapa kiyobora ibinyabiziga mu muhanda, kirimo amabara y'icyatsi umuhondo ndetse n'umutuku gisize irangi ry'umukara gishinze ku giti cy'icyuma.

Icyapa cyifashishwa mu muhanda, umuzenguruko w'umutuku, mu ibara ry'umweru, inyuguti mu ibara ry'umukara.

Icyapa gisa umuhondo, umuzenguruko w'umukara, ndetse n'akamenyetso kagaragaza ko imihanda ibiri yinjira mu muhanda mugari, mu ibara ry'umukara, kiri ku rupapuro rw'umweru, bigaragara ko ari icyapa cyo mu muhanda.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho ya mpande eshatu umuzinguruko w'umutuku ubuso bw'umweru, kigaragaza ahagenderwa n'abana n'iruhande rwacyo hari ibidukikije birimo ibiti ndetse n'urukuta rwamabuye.

Inyubako ndende isize irangi ry'umweru, ibirahuri by'umukara ku ruhande rwayo hari inzu ifite amabati y'umukara n'igipangu cy'amatafari n'inzira nyabagendwa y'amaguru.

Umuhanda nyabagendwa usa umukara, ushamikiyeho undi w'igitaka, igipangu cyubakishijwe amatafari n'irangi ry'umuhondo, ubusitani, indabo, ibyatsi n'ibiti.

Ikinyabiziga k'ipikipiki, kicaweho n'umumotari kiri mu muhanda wa kaburimbo usa umukara, giparitse iruhande rw'igipangu gisa umukara cyubakishijwe amatafari y'umuhondo.

Inzu zo guturamo ziri hafi y'umuhanda ufite ibara ry'umukara wa kaburimbo, ibikorwa remezo by'mashanyarazi biriho insinga, ibidukikije, ibiti, amazu ndetse n'ikirere.

Amazu yo guturwamo ndetse n'indi y'ubucuruzi ikiri kubakwa itarasoza kubakwa n'indi isize irangi ry'umweru n'ibirahuri by'umukara, uruzitiro rurasa umweru, hari ibidukikije birimo ibiti n'ibindi bikorwa remezo.

Ahantu hari urujya n'uruza rw'abantu, bari mu mirimo y'ubucuruzi, harimo abacuruza amayinite, abacuruza ibirahuri byambarwa ku maso, inzu z'ubwubatsi, ziriho ibyapa bisa umutuku n'umukara.

Inzu mu ibara ry'umweru n'umuhondo, ibirahure umukara, ibidukikije, igipangu, amakaro umukara.

Amazu agerekeranije afite amabati y'umutuku, uruzitiro rw'umweru, ibirahure, amarido ndetse n'ibidukikije birimo ibiti.

Umuhanda nyabagendwa uri kunyuramo imodoka isa ubururu, inzu igeretse gatatu y'ubucuruzi n'ibikorwaremezo by'amashanyarazi, abantu bari kugenda mu muhanda.

Inyubako ndende zisumbana zitareshya, amarangi, umweru, umuhondo, ibidukikije n'amazu mato yo guturamo n'ikirangantego cya aradibi.

Inzu y'ubucuruzi ku nzugi ifiteho ibyapa byamamaza ubucuruzi bukorerwa muri iyo nzu iruhande rwayo hari indi nzu ifunguye imiryango igaragara ko icuruza imyenda, iruhande rw'inzugi hari ibyerekana imyenda bacuruza.

Inzu mu ibara ry'umweru, ibirahure mu ibara ry'umukara, igipangu cyubakishwa amatafari, umuhanda nyabagendwa wamabuye, umuntu, ingofero y'umuhondo.

Inzu y'ubucuruzi ifite ibirahure bisa umukara, mu irangi ry'umweru, iruhande rwayo hari indi nzu mu irangi ry'umukara, iriho icyapa cyanditseho forutibeti, ndetse n'umutaka wa emutiyeni.

Inzu mu ibara ry'umweru, ifite ibirahure, ubusitani, indabo, ibiti, uruzitiro rw'ibyuma, inzira nyabagendwa.

Inzu z'ubucuruzi bacururicuzamo imyambaro y'abagabo hasize amarange y'umweru, hariho ibishushanyo bigaragaza imyambaro icururizwamo ndetse n'abantu bari imbere yazo.

Inzu igeretse mu ibara ry'umweru n'amakaro yometseho, igipangu kiyizengurutse, imodoka mu ibara ry'umweru.

Inzu ntoya n'inini zirimo iz'ubucuruzi n'izo guturamo indende ndetse n'ingufi ibidukikije birimo ibiti n'ibikorwaremezo by'amashanyarazi handitsemo Kimironko kwanayinzira.

Inzu zo guturamo indende ndetse n'ingufi zisakajejwe amabati asa umutuku, hari ibidukikije birimo ibiti ndetse n'ubusitani, zifite n'uruzitiro rw'amabuye ndetse n'amatafari.

Inzu z'imiturire zirimo indende isize amarangi y'umweru, ibidukikije harimo ibiti, icyerekezo zikaba ziri i Remera.

Inyubako ndende y'ubucuruzi, ifite amabara y'umweru n'umukara, ibirahuri byayo birasa umukara, imbere yayo haparitse imodoka ziri mu bwoko butandukanye sisa umweru, umukara ndetse n'ipikipiki.

Umuhanda nyabagendwa, mu ibara ry'umukara ndetse n'uturango tw'umweru; hariho ibidukikije by'icyatsi, harimo ibiti mu busitani, buri kunyuramo imodoka z'umukara ndetse'amapikipiki.

Imodoka isa umutuku, ibirahuri by'umukara, amapine y'umukara, iri mu muhanda nyabagendwa usa umukara, ibidukikije, ibiti n'ibyatsi.

Umumotari utwaye umugenzi ku ipikipiki, iruhande rwe hari imodoka y'ibara ry'umukara. Biri muri kaburimbo iruhande rwayo hari inzira y'abanyamaguru. Iruhande rwayo hari urukuta rwubakishijwe amabuye manini na sima.

Umuhanda w'igitaka, unyura hagati y'ibipangu bisa ubururu ndetse n'umweru, ibidukikije birimo ibiti ndetse n'indabo, amazu asakaye ndetse n'amaremare.

Umuhanda nyabagendwa, ibara ry'umukara, imirongo y'umuhondo, ibinyabiziga, moto, imodoka itwara imizigo mu ibara ry'ubururu.

Umuhanda nyabagendwa mu ibara ry'umukara uriho utuyira tw'abanyamaguru ukikijwe n'ibidukikije birimo ibiti ndetse hariho n'ibyapa byamamaza bisa umutuku n'icyatsi ndetse n'abantu bari kunyura muhanda.

Abamotari batwaye ipikipiki mu muhanda bageze aho abanyamaguru bambukira harangwa n'amabara y'umweru aciye mu muhanda waburimbo mo imbere. Iruhande rwawo hari umuhanda w'abanyamaguru urimo urakoreshwa. Iruhande rwawo hari ibyuma birebire bifashe amatara y'umuhanda. Inyuma yabyo hari ibiti bikikije umuhanda.

Umuhanda nyabagendwa usa umukara uciyemo imirongo y'umweru, ndetse ukikijwe n'inyubako n'ibidukikije birimo ibiti uranyurwamo n'ibinyabiziga nka moto n'imodoka.

Umuhanda nyabagendwa urimo amatara yaka, usa umukara, ibinyabiziga bibisikaniramo, mu masaha y'ijoro, ndetse n'amazu y'ubucuruzi ariho amatara yaka.

Inzira nyabagendwa y'umuhanda usa umukara, urimo imirongo isa umweru, akayira k'abanyamaguru, ibidukikije birimo ibiti, ubusitani ndetse n'ibinyabiziga biri kubisikanira mu muhanda.

Umuhanda nyabagendwa usa umukara, imodoka isa umweruru itwara imizigo, ibidukikije, ibiti, inzira y'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo, uri gukoreshwa n'abamotari batwaye abagenzi, urimo imodoka z'ubwoko bugiye butandukanye, iruhande rwawo hari ibyuma birebire bifashe amatara y'umuhanda, iruhande rwabyo hari inzira y'abanyamaguru, iruhande rwayo hari ibiti bigiye bikikije umuhanda.

Umuhanda nyabagendwa mu masaha y'ijoro amatara arikwaka, ibinyabiziga biri kunyuramo bicanye amatara y'urugendo.

Imodoka ebyiri, imwe isa umweru, indi isa umutuku, biri mu muhanda usa umukara, ibidukikije, ibiti, ibyatsi, abantu bari kugenda mu muhanda ndetse n'inzu isa umuhondo.

Umuhanda usa umukara mu gihe k'ijoro urimo imirongo isa umweru ndetse n'ubusitani burimo ibyatsi n'amatara n'inzu ndende uranyurwamo n'ibinyabiziga biri kubisikana n'abagenzi bambuka umuhanda.

Umuhanda nyabagendwa usa umukara wa kaburimbo, ibimenyetso bigaragaza aho abagenzi bambukira, imodoka ziri mu muhanda n'amapikipiki, ibidukikije.

Umuhanda kaburimbo urimo imodoka z'ubwoko bugiye butandukanye, burimo abamotari batwaye ipikipiki ziriho abagenzi. Iruhande rwawo hari inzira yagenewe gukoreshwa n'abanyamaguru. Iruhande rwayo hakaba hari ubusitani bwiza bugiye buteyemo ibiti.

Urukuta rw'amabuye, rwubatseho inkingi, zifite irangi ry'umuhondo, n'iryivu, imbere yarwo, hariho inzira y'abanyamaguru n'ibidukikije, birimo ibiti.

Umuhanda nyabagendwa, ugabanyijemo ibice bibiri, usa umukara, ibidukikije, ibiti, ibyatsi ndetse n'ibyapa byo mu muhanda n'urukuta rufite irangi ry'umweru n'umuhondo.

Umuhanda nyabagendwa w'ibitaka, uca mu mudugudu harimo ibipangu gisa umukara gisize irangi ry'umweru, ibidukikije, ibiti n'ibyatsi.

Umuhanda nyabagendwa usa umukara, imodoka isa umukara, amapine y'umukara, ikiraro, amabuye afashe ikiraro.

Umuhanda nyabagendwa, mu ibara ry'umukara ndetse n'akayira k'abanyamaguru ku ruhande, n'ibimenyetso byerekana aho abanyamaguru bambukira, mu ibara ry'umweru, n'abamotari bategereje kurekurwa, n'ibyapa ndanga cyeyerekezo byo mu muhanda.

Abagenzi, umugore umwe, abagabo batatu, umwe wambaye ishati y'umweru, undi wambaye ishati y'ubururu n'undi wambaye imyenda ya karokaro, bari kwambuka umuhanda, banyuze mu nzira yabugenewe abanyamaguru bambukiramo.

Umuhanda nyabagendwa usa umukara ndetse uciyemo imirongo y'umweru, n'ibimenyetso by by'aho abanyamaguru bambukira, uranyuramo imodoka isa umweru, ndetse ukikijwe n'ibidukikije birimo ibiti n'amatara.

Umuhanda nyabagendwa, urimo ibimenyetso bigaragaza aho abanyamaguru bambukira, ndetse n'ikinyabiziga cy'ipikipiki giparitse mu muhanda gitegereje ko umunyamaguru asoza kwambuka, n'amazu y'ubucuruzi ndetse n'ubusitani.

Umuhanda usa umukara ugabanyijemo ibice bibiri, umurongo w'umuhondo, inzu z'umuhondo, ibidukikije ibyatsi n'ibiti n'ibikorwaremezo by'amashanyarazi.

Umuhanda nyabagendwa usa umukara uciyemo ibice byinshi urimo imirongo isa umweru harimo amatara, harimo n'inzira z'abanyamaguru ndetse n'ibidukije birimo ibiti n'ubusitani.

Umuhanda nyabagendwa usa umukara, ugabanyijemo n'imirongo y'umweru, ikimenyetso cy'aho abanyamaguru bambukira, ibidukikije, ibiti, amatara ndangacyerekezo ya ndetse n'ibinyabiziga.

Inzira nyabagendwa y'ibinyabiziga ndetse n'iyabagenzi, hari icyapa abagenzi bategerezaho imodoka, ibidukikije birimo ibiti, imodoka ziri kugenda mu mihanda ndetse na moto.